Ikigo cya saniramu Rwanda, cyari kiri gusinyana amasezerano n'abantu bagiye batandukanye, ndabonamo abayobozi bari kwerekana izina rishyashya ryuko bazatangira kwitwa saniramu Rwanda.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Radiyanti, kiri gutangaza Radiyanti yacu ibihe nk'ibi ntibyabaho hatabayeho icyizere, urukundo, ubwitange, n'ubwuzuzanye, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe akadirishya.

Ni apulikasiyo ya BK, iyi twita BK yacu; iri kugaragara nk'aho iri gutangira. Handitsemo werikamo tubaki ovu Kigali "welcome to Bank of Kigali". Akasitoma ofu bike cyanga se bike kasitoma.

Ni apurikasiyo ya ekwiti icyo tuzi nka ekwiti apu, amafaranga yinjira anasohoka kuri banki, akaba ari ibyo dukeneye gukora wenda nko kwishyura ibintu runaka perirosi, cyangwa se kugura ibindi bintu runaka.

Iguriro ahantu bagurira ibintu runaka nko muri superi marishe hakaba hari umuntu uhagaze harimo aracekinga imyambaro bari baguze, umwe ni umuburake undi ni umuwayit, bakaba barimo baracuruza undi agura.

Akagera bizinesi gurupu, cyangwa se akagera bizinesi moto, aho bari barimo baratanga imodoka yo mu bwoko bwa kiya, bayiha umukiriya wabo kuko yitwaye neza, ubona ko bari kumuha icyo bita ki, cyangwa se urufunguzo rwiyo modoka.

Imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Vigo z'umukara, zikaba ziparitse imbere ya ABG Akagera Business Group. Zikaba zifite parake z'Inyarwanda kandi ukaba ubona ko hari icyo ziteganyirijwe gukora.

Ni umuntu ufite amafaranga atarayo mu Rwanda ubona agiye kuvunjisha arimo arayabara afite inoti nyinshi z'igihumbi, akaba afite n'imashini ibara ayo mafaranga agiye afite kugira abone uburyo yavunjamo amanyarwanda.

Ahavunjishirizwa amafaranga ibiro bizwi nka foresi biro haragaragara akuma kayabara n'amafaranga y'u bwoko bubiri butandukanye ubona ko banayavanguye kugira ngo baze kubona uburyo bayavunja bigendewe n'uko angana.

Iyi resitora cyangwa aho tujya gufatira amafunguro yihuse, ubona hari umukecuru barimo barimo barasariva amata ndetse n'umusaza hirya ye, ubona nawe ari gutanga komande y'ibintu akeneye gufata muri iki gihe bari baye muri restaurat.

Niyi mikorofinanse yitwa kopedu iri kuvuga ko bohereza bakanakira binyuze kuri westani uniyoni. Akaba ari umu ajenti umwe hamwe n'umukiriya umwe. Ntabandi bantu bari muri salle.

Banki ya ayendemu ifatanyije na wesitani yuniyoni mu kuvunjisha amafaranga yaba ayo mu mahanga se cyangwa abanyarwanda, bitewe n'igiciro kiriho ku isoko hano hanze.

I hoteli isa neza irimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza n'utundi duto turi kuri kotwari natwo dukoze mu mbaho, ndetse n'inkingi zayo zikoze mu buryo bwiza nk'igisenge kiza cyane hakirirwa abantu b'ingeri zose.

Ni kiyosike se cyangwa akazu gatangirwamo serivisi y'ibya forekisi cyangwa se ivunjishwa ry'amafaranga. ukaba wazana amafaranga ayo ari yo yose bakaba bayakuvurira mu manyarwanda se cyangwa ayandi mafaranga ayo ariyo yose bitewe n'icyo ugiye kuyakoresha.

Muri iy'ifoto ye haragaragaramo, umukobwa uri ahavunjishirizwa amafaranga, yambaye ishati y'umuhondo n'agapfukamunwa k'umukara uhetse n'igikapu.

Uyu muhanda w'ibyerekezo bibiri ukaba urimo icyapa cya Kuje banki cyanditseho teganya kikaba gihagaze ku nzu y'umuturirwa hakaba harimo n'imodoka zirimo zigenda harimo imodoka yo mu bwoko bwa nisa patoro hamwe na vigo y'umukara.

Ishusho igaragaza imeza iteretseho ibikombe bibiri by'ikawa, imeza isa umukara, intebe z'umukara zifite amaguru y'ibyuma asa na zahabu hamwe n'isima y'amakaro.

Ahacururizwa hakanabarizwa imbaho muri kigali akaba hari umuntu uzicunze kandi hakabona n'amatireyi menshi y'izo mbaho. Hari amazu babikamo ibikoresho bivuyegu kuri izo mbaho ndetse n'ibindi bigeye bitandukanye by'umusaruro w'imbaho.

Ni akameza ko muri saro kagufi gaterekwaho ibyo kunywa akadakunze kwita kofitebo, kakaba gafite amaguru y'ibyuma na topu y'ikirahure hamwe n'intebe bigendana.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabyo zigiye zitandukanye, n'ahantu umuntu yakwicara mu gihe ari kumva umwuka mwiza se cyangwa yasohotse akicara muri ubwo busitani, akaba hasa nkaho ari heza cyane.

Ishami ishami rya Beka banki kigali ritanga silanse, rikaba riherereye na ka kiyosike gaherereye imbereye ya etaje nini ushobora kwifashisha mu gihe ugiye gushaka iyi serivisi ya inshuwarensi.

Ni byiza byo gukorana na bipiyara nk'umucuruzi; hakaba harimo impamvu twafata inguzanyo muri bipiyara n'uko batanga inguzanyo iri hejuru ya miliyoni mirongo itatu kandi ukaba wanayishyura mu gihe kirenze imyaka itanu.

Koperative yitwa girini amayaga ihinga muri iki gice cy'amajyepfo bakaba bari basa nkaho bakoze inama, ubundi bakaba bagiye gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'uko inama irangiye.

Iduka ricururizwamo imyenda y'abagore ndetse n'abana rikaba rifite hasi cyangwa se pavoma y'amakaro. Bakaba bacuruza imyendagi itandukanye amakanzu n'amakabutura, imipira bigiye bitandukanye.

Umucuruzi w'umumama uri kugurisha ibijyanye n'imbuto ubona afitemo amarongi ya mawota meroni nimiyembe indimu n'ibindi bintu bitandukanye akaba ari umukobwa wari waje kumugurira akaba yararimo aramuha ku giciro gito cyane.

Ishema ati senta ahantu hakorerwa ubugeni ubwo aribwo bwose, imyenda y'ibishushanyo ndetse n'ibindi bintu byose bikozwe mu bugeni, hakaba hari abakozi bahakora bageze muri bane.

Ni ahagaragara nkaho ari mu isoko abamama bari barimo baracuruza ibijyanye n'ibiribwa, amanyanya, intoryi, imiteja n'amakaroti n'ibindi byinshi.

Inyubako ya Kigali Investment Company, iri hano hagati mu mujyi, aho tuzi nko mu isoko rya nyarugenge, imbere hakaba hari abantu bikoreye imizigo.

Ni akazu ubona katanzwe n'ikigo cya airtel Rwanda, rwagahaye umwegenti uzajya utanga amainite agatanga amasimukadi ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye za equity ukabona ko uyu munsi aribwo bagafunguye.

Umukobwa ufite imisatsi ya natirere na telefone, bigaragara ko hari ikigo ari kwamamariza gitanga amakuru ku bya murandasi.

Ni ikigo kiri kuri murandasi cyangwa se internet, gitanga serivisi z'igura n'igurisha n'ihererekanya ry'ibicuruzwa hagati y'abaguzi n'abagura, kikaba cyitwa ubayi.

Ni umu egenti wa vuba vuba, ikigo tuzi gitanga serivisi zo kugeza abantu cyangwa se amakampani runaka aho ibiryo se cyangwa ibindi bintu baba batumije, ubona ko afite igare arimo araraparika agiye gutanga devivari bari bamuhaye.

Icyumba gishashe kirimo amapure n'uburiri bwiza cyane akaba ari inzu iherereye, Kabagaba i Kigali ikaba itangwa ku mafaranga icyatanu cy'idolari ari ku kwezi.

Ni inzu iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite amakaro meza cyane agereranye n'igihe tugezemo, ikaba kandi ifite umwanya munini wa parikingi, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Ni inzu ya kadasiteri irimo iragurishwa ifite amabati y'umutuku n'amakaro imbere, kuri terasi, ifite amapave ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu iherereye i Kanombe.

Inzu ikodeshwa icyatanu k'idorali ku kwezi, iri kigali iherereye Kacyiru harimo igitanda, na matera n'ibindi bikoresho byose wasanga mu cyumba ikabafite viyu nziza ikaba ifite n'amakaro mo imbere.

Inzu iherereye Kacyiru, yo mu bwoko bwa etaje cyangwa inzu igeretse, ikodeshwa igihumbi na magana atanu k'idolari ku kwezi, ikaba iri hano i Kigali Kacyiru, mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni inzu ikodeshwa magana atanu na mirongo itanu y'Idorari ku kwezi i Kigali mu Rwanda, harimo utubati tuno twa tereviziyo tuzwi nka porute paraye, amatabure asanzwe n'intebe n'amatapi.

Ni nzu y'ibyumba bine ya dushe na tuwareti bitatu, bikaba bikodeshwa amafaranga ibihumbi magana itanu y'amanyarwanda ku kwezi. Ikaba iherereye i Kigali, i Kanombe. Hakaba harimo amapave kandi imo parikingi nini igaragara.

Ni iduka rigurisha ibikoresho by'abadamu n'amasakoshi inkweto ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko bipanze ku buryo bigiye bikurikirana kandi busumbana.

Iyi supamaketi sawa siti buranshe yayo iri meyini, hakaba harimo harinjira umukobwa wambaye kora y'umukara n'inkweto za pinki n'umupira w'umweru n'umutuku akaba ari kunjira nyine hamno muri supa maketi sawa siti.

Ni ahantu muri superi marishe bakinira amagemu, harimo amagemu y'abana, ukaba ubona ko hari abana bari gukina amagemu ndetse n'ababyeyi babo baje babaherekeje, ukaba ubona ko rwose yitabiriwe ubona hari igikorwa cyabaye cyabahuje.

Ihuriro cyangwa ikoraniro ry'amaduka aba acuruza ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'acuruza ibikoresho by'ubwiza byose biri ahantu hamwe hagaragara nko mu isoko cyangwa mu muturirwa runaka.

Umugore ufite imisatsi y'umumukara wambaye umupira wa shokora uri muri superimarishe urimo urahaha ibicuruzwa akaba ari kumwe n'umukashiya cyangwa se umwishyuza akaba yambaye umupira w'umutuku ukabona ko ari umugabo kandi ufite akazi kenshi.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'icyo kunywa, imashini ndetse n'igikapu.

Icyapa cya simba supamaketi cyanditseho simba kicukiro, n'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa ravafo ndetse na yundayi tagisa ziri guca mu muhanda mu masaha y'ijoro n'amatara yo ku muhanda arimo araka.